Inama z'abayobozi baba bahuriye hamwe, bagahuriza abaturage hamwe bakabakoresha inama, bari kubagira inama cyangwa se bari kubabwira amabwiriza.

Guha imyitozo abacunga umutekano ni bimwe mu by'ingenzi kuko, birinda bituma bakora akazi kabo neza birinda abanyabyaha batandukanye. Kubera ko kubaha imyitozo bibaha ubushobozi bwo guhangana no kumenya uburyo bakumira ibyaha.

Abaducungira umutekano ningobwa cyane, kuberako ibikorwa byabo bituma dutekana mumitima yacu ningo cyane Kandi nibintu byacu tukabikora neza ningobwa cyane kubitaho kuberako badufitiye runini.

Gutanga ubukangurambaga, cyane cyane mu bintu bijyanye no kuzihangira umurimo n'ibindi, ubukangurambaga bagenda bakora ni bwinshi cyane, kubera ni ubumenyi bushyashya batanga, cyane cyane kandi ni ngombwa ko babuha nk'abashinzwe umutekano, n'izindi ngeri muri rusange.

Abapolisi baba bambaye ingofero, baba bafite n'imbunda, akenshi kugira ngo baze, bakabakoresha bari gutandukanya abantu bari kwigaragambya cyangwa se bari kurinda abantu bari kwigaragambya, kwangiza ibindi bintu.

Abaturage bahuriye hamwe batanga ibitekerezo. Umwe muri bo afata mikoro narangiza ngatanga igitekerezo cyangwa icyifuzo, noneho bakagira abayobozi babo.

Abari mu nama y'abayobozi bari kubabwira, bigatuma abayobozi begera abaturage bakungurana ibitekerezo, bakajya banumva bababwira bigatuma bimugira neza cyane.

Inama zikomeye bajya batumira abazungu, bakaza, bakabaha n'amazi, cyane cyane iyo inyota imaze kubafata, baywa amazi kugira ngo baze kumera neza.

Iyo hamwe habaye inama, bakajya bumva amagambo bagiye bababwira akenshi ubu sanga arabayobozi barikugambana nabo .

Inama y'abayobozi b'abaturage ni ingenzi cyane, kuko duhurira hamwe tugatanga ibitekerezo, bakanatanga ibyifuzo, kandi bakora ibintu byose mu buryo, kugira kuko babiganiriyeho bakabikora neza.

Iyo barimo gukora umutobe, bajya bafata ibyatsi bakandakanda bakavangavanga n'imineke, noneho akaza kuvamo umutobe.

Isekuro ni igikosho bakoresha bari gusekura isombe, cyangwa se gusya ibintu by'ibyatsi byifashishwa cyane mu gutegura ibiryo byisombe ndetse bikanafasha gutegura imiti imwe ya kinyarwanda.

Ibisabo biri hano byerekana umuco nyarwanda, akenshi cyane cyane bikoreshwa batunganya amata. Umuco wa kera ugaragaza umuco wacu, kandi udufasha mu buzima bwa buri munsi.

Bariya bantu ba kera babaga bakenyeye ibitenye bafite n'amacumu, cyane cyane iyo babaga bagiye mu rugamba, bajyanaga amacumu kandi bifubitse n'ibitenge.

Ikirago ni bimwe mu bikoresho dukenera bu ubuzima bwa buri munsi nk'abanyarwanda, kuko bituma tubona aho dukorera imirimo yacu, hizewe kandi hasa neza, kandi nanone ikiraro, ni kimwe mu bikoresho u Rwanda rwerekana mu muco w'abanyarwanda, rusigasiye amateka yacu nk'Abanyarwanda.

Ikiyiko ni ni bimwe mu gikoresha kidufasha mu kurya, kuko aricyo gituma dufata ifunguro neza kandi mu buryo bwizewe bufite n'isuku, ikiyiko cyo mu giti rero ni kimwe mu bigaragaza uko abakurambere bacu, bajyaga bakoresha iyo babaga bagiye mu gikorwa cyo kurya.

Ubworozi no guhinga ni ingenzi cyane kugira ngo tuzabone ibiryo bizadutunga ejo hazaza, cyangwa se kwizerako hari ibiryo bishobora kugutunga igihe runaka, kandi guhinga ni kimwe mu ibintu bizamura urugo rugakungahara .

Iserukiramuco rikunda kuba cyane cyane mu kwerekana umuco wa kera wa cyami, ni ngombwa cyane kuko bikurura ba mukerarugendo, kandi ni bwo buryo bwiza bwo gusigasira umuco wacu.

Umuvure ni uburyo dukoreshari ,ni uburyo bugaragazaze umuco wa kera, kandi busigasira' uburyo abakurambere bacu bagiye babaho, kandi umutobe bakora mu bitoki ni umutobe uryoha cyane, udufasha mu gusabana no gusangira.

Isombe ni ibiryo byiza cyane, kuko bidufasha kuzuza indyo iboneye kandi indyo yuzuye. Gutunganya isombe neza rero, ni bimwe mu bintu by'ingenzi kuko bituma ifunguro riryoha.

Inzu za kera cyane bajyaga bashyiramo imyaka bayihunika, kugira ngo mu gihe cy'inzara bajye bajya bafata ibiryo birimo ,babirye kugira ngo badasonza

Agaseke ni keza cyane kuberako abatuboha twarabahiriye cyane ,kuko abantu benshi baradukunda bitewe n'ukuntu dukoze ni byiza cyane, kandi agaseke kerekana umuco wacu w'Abanyarwanda kuko aba mbere bari abakorikori, bakerekana imibereho ya kera cyane.

Kwigisha abana ubuzima gakondo n'umuziki wa kera, harimo kubakundisha umuco wacu nk'abanyarwanda, kandi ni ngombwa cyane kuko byagura ubwonko bw'umwana, bityo rero umwana akagira gushabuka, no kumenya ko hari ikintu azi.

Inka nziza cyane y'inyambo iduha umukamo, tugaha abana bacu noneho bagakira bwaki, kandi natwe bikadufasha kwiteza imbere, harimo kuba tubona amafaranga, mu kugurisha amata, n'ibindi.

Kwigisha abanyeshuri mu muco nyarwanda bidufasha gusigasira amateka yacu. Kwagera umwana no gutoza indangagaciro z'umuco nyarwanda no kwigisha abatoya ko ari Abanyarwanda.

Ibiseke, utwibo ni ibintu bigaragaza umuco wacu nk'abanyarwanda, kandi nanone ibiseke ni ngombwa cyane mu bintu bidufasha gutwara imizigo ndetse no gukora imihango ya kera cyane ya kinyarwanda, harimo n'ubukwe n'iyindi mihango.

Radiyo nimwe mu bikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi, aho tubonera amakuru ari kuvugwa mu gihugu cyose no ku isi hose, kandi idufasha mu kutumara irungu no kumva ko twishimye, kandi tuzi aho abandi bageze.

Akuma kamashanyazi kaba gafashe kugikuta, kaba kari kugikuta kugira ngo, uze kuzimya umuriro w'inzu yose cyangwa n'ubishaka uze gukupa amashanyarazi, mu gihe habaye ikibazo.

Imirima ikoze neza, dushyiramo imyaka, ikera neza, kandi igatanga umusaruro, kandi imirima mu rugo duhinga imyaka yacu, kugira ngo umusaruro wacu wiyongere.

Amazu meza cyane, kuba mu nzu kubera ko umuturage uri mu nzu yizeye umutekano we. Kandi kuba mu nzu akerekana kwiteza imbere byerekana kandi kugira ubuzima bwiza.

Guca inzira z'amazi kugira urinde wirinde kwangirika kw'ikoresha cyangwa ibindi bintu, w'irinde isuri ndetse ni ipfu z'abantu n'ibindi dukeneye cyane, guca inzira z'amazi aho zajya aca kugira ngo twirinde ibibazo biterwa n'imvura nyinshi.

Urusengero abantu bajyamo bagasabana n'Imana yabo, bakayisaba imbabazi, hakaba ahantu hahurira n'inshuti, zigasabana. Bagendeye ku migenzo bajya bakoresha mu rusengero.

Ni abakristu bo mu rusengero baba bahuriye hamwe, kugira ngo baze gufata amafoto y'urwibuttso, baza kwifotoza impande y'urusengero rwabo.

Ibiraro byo mu kirere ni ibiraro bidufasha mu migenderanire, cyane cyane bidufasha bifasha ba mukerarugendo baba bashaka gutemberara mu misozi igize u Rwanda bakagenda mu buryo bworoshye bambukiranya imisozi, ari byo bifasha mu kuzamura ubukerarugendo mu gihuguhugu cyacu.

Inyubako z'ubucuruzi zikorerwamo ibintu byinshi, amasoko cyane kuko zigaragaza kwiteza imbere kandi zegereza hafi abaturage ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu bakeneye hafi yabo, bituma badatakaza umwanya bajya kubishaka.

Abatage bahurira hamwe bagatanga ibitekerezo, bakababwira uko uburyo bagomba kwitwara, uburyo bagomba kwita ku bana babo, nabo bakiyitaho, ku bintu byabo, ni byiza cyane gurira hamwe n'abayobozi, kugira ngo bagire icyo bababwira, basabane n'abayobozi babo.

Amabisi ari ahantu abantu bajya bagiye gutega, yaje gushyiramo abantu ari kubajyana ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane mu bice by'umugi ari kugenda nyine....

Amabisi atwaye abantu ajya muri gare, yarangiza abantu bakava mu mabisi bakinjira mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Gare yoroshya kubona imodoka zijyana abantu aho bashaka, kuko niho amabisi afatira abantu n'amamoto, bityo biri mu bintu byongera umusaruro ukomoka mu migenderanire.

Indege ijyana abantu ni ibintu ibavana hamwe ibajyana ahandi, ikihutisha ingendo kandi igafasha imigenderanire hagati y'ibihugu bigiye bitandukanye, ikanateza imbere abaturage.

Ingendo byoroheje cyane ko baza ibinyabiziga abantu babonye akazi mu gutwara ibyo binyabiziga harimo amapikipiki, amagare. Ibyo byose ni ibintu byoroshya ingendo n'imigenderanire no gutwara imizigo.

Amamodoka manini atwara abantu n'ibintu ni meza cyane mu guteza imbere iyi ingendo kubera yuko yoroshya ingendo, kandi mu buryo bworoshye ,abantu bagakora akazi kabo neza ,kandi bagakomeza kwiteza imbere.

Imodoka zikundaga kuba cyene cyane mu mujyanaga abantu mu bice bitandukanye, ariko bakagenda bishyura amafaranga bitewe n'aho barajya bajya.

Umukino wa basiketiboro n'umukino mwiza cyane, usaba guhatana, ndetse no kwitwararika mu kibuga, wigisha indangagaciro kandi na none ni siporo nziza, iruhura umubiri ukagororoka ukumva umerewe neza.

Umukino mwiza cyane w'amoboko yabaga umuntu akora siporo neza, akagorora umubiri kandi ugatuma umubiri ugera gukomera ukankamera neza muri kameratera nezaccyane.

Agatenisi cyane cyane uba uri kukarinda kugira ngo kataza kugwa hasi. Iyo kaguye hasi uba utsinzwe. Bakunda kugakinira cyane cyane mu mucanga kugirango birinde ibikomere.

Aba ni abakinnyi b'umukino bajya bakina bakubita tenisi, noneho bakawukina kugira ngo agatenesi kataza kugwa hasi, iyo kaguye hasi mu kibuga cyawe, uba utsinzwe.

Umukino w'amaboko bita basiketiboro, umukino usaba guhatana, usaba imbaraga, kandi usaba gutekereza kure. Niyo mpamvu ari mwiza rero, muri siporo kubera yuko byose birakenewe muri siporo usibye kugorora umubiri bitanga, no gusabana aba ari ngombwa.

Umuhanda ni mwiza cyane kubera ko woroshya ingendo. Ariko nanone umuhanda ufite ahantuabanyamaguru baca kugira ngo hirindwe impanuka kandi hatagira umuntu uyoba mu gihande cy'umuhanda kugira ngo ataza guhura n'ibibazo harimo n'urupfu.

Inzira z'umuhanda ni ingenzi cyane, kugira ngo tubone ibintu biva ahandi, kandi natwe ibyacu tubivana iwacu tubijyana ahandi mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwizewe, kandi umuhanda uhuza ibice bitandukanye, bituma abaturage bishima abahura bagasabana.

Abanyamaguru bajye babererekera umuhanda, kugirango imodoka zitabagonga. Cyane cyane bajye bahagarara impande y'umuhanda, imodoka zibanze ziceho noneho babone kwambuka umuhanda.